Ditani abahinzi bazifashisha bari gufuhira imyaka yabo, zibafasha kwica udukoko tuba mu myaka yabo, imyaka bafuhiza ditane ni nk'ibirayi, inyanya, ndetse n'iyindi myaka.

Amafumbire ni meza cyane, bayashyira ku myaka cyangwa se ku bihingwa ibyo ari byo byose, habaho amafumbire ya enipeka, dapu, ire ,ndetse n'andi ava ku matungo, iyo bayafumbije ibihingwa bikura neza cyane.

Amashu yerera igihe gitoya. Atanga umusaruro utubutse. Araryoha yitwa imboga. Abayarya bagira ubuzima bwiza cyane, kuko aba afite vitaminini nyinshi cyane.

Ga ni igikoresho kirinda mikorobe kwinjira mu ntoki z'umuntu uwo ari we wese cyane cyane abaganga. Bazifashisha mu bikorwa byose byo kwa muganga, bazita golovuzi mu ndimi z'amahanga.

Gufuhira imyaka ni byiza cyane, byica udukoko tuba turi mu myaka, bituma imyaka ikura neza, abantu bafuhira bagira umusaruro mwiza kandi mwinshi cyane.

Umuganda utuma abantu bakora ibikorwa byinshi kandi byiza by'igihugu ,bahuriramo ari abantu benshi cyane. Iyo barangije gukora umuganda barabaganiriza ku buzima bwite.

Mayikorosikopi n'icyuma cyifashishwa kwa muganga, baba bari gupima sida cyangwa se inzoka zo mu nda barebamo, haba harimo utuntu dutoya cyane ku buryo utapfa kuturebesha amaso yawe utabimenyereye.

Amafi aryoha cyane, bayaroba mu migezi itandukanye, bagashyiraho umunyu iyo bayakawushije kugira ngo gatanuka cyangwa se ngo apfe, agira amafaranga, agira n'isosi iryoshe cyane.

Indagara ziraryoha cyane baziteka mu biryo, baziroba mu kiyaga cyangwa se mu cyuzi ,hari iziba ari iz'umunyu hari n'iz'umusenyi ,zigira vitamini nyinshi gusa zinarahenda cyane abazicuruza bagira amafaranga menshi.

Ibiryo biraryoha cyane, barabiteka, bagashyiramo ibirungo bitandukanye kugira birusheho kuryoha, ibirungo bashyiramo birabitukuza bikarushaho kuryoha, isosi barazinywa igafasha umubiri kubaho neza.

Mu migezi imwe n'imwe， habamo amafi， isambaza， n'ibindi cyane cyane indagara. Zikunda kuba ku byuzi，mu biyaga，no mu migezi itandukanye，haba haturiwe abantu， ngo batura ku nkombe z'ikiyaga.

Abarobyi ni beza cyane. Bakora akazi keza. Baroba amafi aryoha kandi akabaha n'amafaranga. Iyo bayarobye baragagurisha cyangwa bakarya. Imiryango yabo ibaho neza cyane.

Amafi araryoha cyane, bayateka bayakawushije, agira inyama nziza n'isosi iryoshye, agira amafaranga kuko arahenda cyane, ntakunda kuboneka ahantu aho ariho hose, bayaroba mu kiyaga cyangwa se icyuzi.

Amafi araryoha ni inyama nziza kandi zishya neza, iyo wayariye wumva umeze neza agira intungamubiri, kandi aratubuka agira isozi ziryoshye iyo uri gusangira n'abawe murishima cyane.

Amafi barayaroba mu kiyaga, bayateka neza cyane, kuko agira isosi iryoshye ndetse n'inyama ziryoha, bayateka bayakuyemo amagufwa, araryoha cyane iyo bayatetse bayakawushije bagashiramo n'ibirungo bitandukanye cyane.

Mu bishanga habamo ibyatsi byinshi cyane. Hakunda kuba harimo n'inyamaswa zo hasi cyane cyane inzoka. Haba haramezemo ibyatsi, indabo, n'ibindi bitandukanye, Habamo kandi n'amazi abamo n'amafi.

Mu gishanga habamo ibyatsi bitandukanye bagaburira amatungo, hari ibyatsi byitwa kameroni cyangwa se imbingo, babishyira inka zirabukunda ndetse n'ihene zirabirya zigakura neza cyane.

Amashaza n igihingwa cyiza cyane bayita n'amajeri. Agira uruyange rwiza cyane, agira vitaminini. Iyo akiri mabisi ukayarya bayita urunyogwe. Araryoha kandi agira n'amafaranga.

Umubirizi urasharira cyane. Ugira inkwi zikomeye, bawugaburira n'amatungo. Ugira imizi ikomeye ku buryo kuwurandura bisaba imbaraga nyinshi cyane.

Insina zigira amakoma ndetse n'ibishagari, zera ibitoki byiza cyane zigira n'ibirere byo guhambiriza imitwaro, zerera igihe gitoya cyane zigira amafaranga ava muri ibyo bitoki.

Imigano iba ari myiza cyane, bayitera ku nkengero z'imirima, cyangwa se ku nkengero z'uruzi, ivaho utuntu two gukubuza hasi twitwa imyeyo. Imitabo ni impingo nziza cyane, iyo wateyemo ibintu byera vuba.

Buri rugo rukunda kugaragaraho ikidodoki, ni uruboga bakatira mu biryo, rugira amazi menshi cyane, iyo baruteka ruraryoha kuko ruriyeza.

Injumbure bazihingamo. Ni ahantu baba barakuye imyaka. bazihingamo ibintu bitandukanye muri sezo zikurikira. Baratabira kugira ngo babone intabire zo guhingamo imyaka itandukanye cyane cyane iyo kurya cyangwa kugurisha.

Ibidodoki byerera ku ruzitiro rwo mu rugo, bikunda kwera biri kwijyana, barabisoroma biraryoha bigira vitaminini nyinshi cyane, babiteka mu biryo cyangwa se bakabirya byonyine.

Ibirayi barabihinga cyane cyane mu Kinigi, bigira amafaranga byerera igihe gitoya kandi bigatanga umusaruro utubutse. Ababihinga bagira ubuzima bwiza bagaturaho n'inshuti n'abavandimwe babo.

Ibirayi babihinga cyane cyane mu Kinigi. Byerera igihe gitoya cyane. Bitanga umusaruro utubutse. Ababihinga bagira amafaranga menshi cyane, kuko iyo babisaruye barabigurisha.

Amashyamba ni meza cyane. Abamo ibiti byiza cyane, inyamaswa ndetse n'ibyatsi. Bigira ibiti bivamo amakara meza. Bikavamo n'imbaho nziza cyane. Bigira n'ifumbire yo mu rutoki.

Insina zeraho ibitoki zigira amakoma ndetse n'ibishagare, zeraho kandi n'ibirere bahambiriza iyo bari gushingirira, cyangwa se bikorera imitwaro, byera ibitoki bikomeye kandi bihenda.

Ibiti biba ari byiza cyane. Bivaho ifumbire yo gusasira mu rutoki, bivaho kandi inkwi, bitanga amakara yo gucanisha, bitanga kandi n'imbaho zo kubakisha rimwe na rimwe.

Karoti bazihinga ku bwinshi, zigira amafaranga atubutse, zerera igihe gitoya cyane, abazihinga babaho mu buzima bwiza cyane, zivura cyane cyane amaso, abantu barazihekenya.

Insina zifasha abantu, zivaho ibitoki byiza cyane kandi biryoshye, habaho amoko atandukanye y'insina inyamunyu, indaya, poyo, mbogoya ndetse n'izindi nyinshi cyane.

Ibitunguru ni imboga. Babikarangisha ibiryo mu mavuta. Bigira amafaranga ku babihinga. Barabibagara, babishyiraho n'ifumbire. Bigaragara neza iyobikatiye ku biryo, cyangwa se bakabikoramo sarade.

Gaperi barazihinga rimwe na rimwe usanga zarimejeje mu mashyamba. Zigira imbuto ziryoha, zigira akayange gatoya cyane, zivamo umuti, barazigurisha abantu bakazirya, zirahenda cyane.

Ibigori biba ari byiza cyane, byerera igihe gitoya ,bivamo akawunga n'imitsima n'ifu yo kunywa igikoma, bigira kandi amafaranga menshi cyane, kuko babibeteshamo n'ibiryo by'amatungo ,ababihinga bagira amafaranga menshi cyane.

Amashaza agira uruyange rwiza cyane, bayahinga mu murima, iyo bari kuyasarura barayasoroma, agira urunyogwe, iyo atarera araryoha kandi agiraga vitaminini nyinshi cyane.

Abantu basarura imyaka hagasigara injumbure cyangwa se igisinde. Iyo basaruye bajya guhinga, bagatabira cyangwa se bakaharima, bahingamo ibintu bitandukanye kugira ngo byere neza.

Guhinga injumbure biroroha cyane, kubera ko baba baramazemo imyaka yose, injumbure zirera cyane iyo zifumbiye zitanga umusaruro mwinshi kandi mwiza.

Ibishyimbo barabitera bikamera, umumero wabyo uba ari mwiza cyane ,iyo bikiri bito hari udusimba tubirya bita nyamuca, biba bifite imizi myiza kandi miremire, bigira amababi yitwa umushogoro.

Isombe baziteka nk'imboga, barazibetesha cyangwa se bakazisekurira mu isekuru. Bazitekamo ibintu bitandukanye. Amateke bayateka bayateretse hejuru y'ibishyimbo, araryoha cyane.

Amashaza bayateka mu isafuriya. Bamwe bayitaga amajyeri. Agira vitaminini nyinshi cyane. Akunda kuryoha. Agira amafaranga, kuko barayagurisha. Abayahinga baba abakire cyane.

Imyumbati iraryoha cyane hari ivamo ubugari, igira amafaranga kandi itera imbaraga, abayihinga babaho neza ndetse n'imiryango yabo.

Insina ni igihingwa cyiza cyane cyera ibitoki, igitoki kiba gifite umukanana, ibitoki biraryoha cyane, bigira amafaranga nko kugura ibintu bitandukanye.

Abahinga inyanya baba bafite amafaranga menshi cyane. Bashyiramo imiti kugira ngo bice udukoko tuzirya tukazitera kubora. Bazikaranga mu biryo barya, bakagira ubuzima bwiza hamwe n'imiryango yabo.

Avoka ni kimwe mu mbuto nziza cyane zibaho. Zigira urubuto mo imbere. Ziraryoha, zituma abantu bagira ubuzima bwiza cyane, bazikoramo isabune ndetse n'amavuta.

Imiteja iraryoha cyane. Bayitekamo isosi imeze neza bakayishyira hejuru y'ibiryo, cyane cyane umuceri cyangwa se mu birayi. Abayihinga bagira amafaranga kuko irahenda cyane, iba iryoshye cyane.

Avoka ni urubuto ruryoha cyane. Bazikoramo amavuta yo kuwisiga cyangwa se amasabune yo gukaraba. Banazirya kandi ku biryo ziraryoha cyane zigira na vitaminini ituma umuntu agira ubuzima bwiza cyane.

Inyanya ni igihingwa gikunda kwera cyane. Bazicuruza mu masoko hamwe n'intoki. Baziteka mu biryo kugira ngo bitukure. Zigira vitaminini gusa zirahenda cyane.

Abahinzi bahinga ibintu byinshi byiza kandi bitandukanye. Ibishyimbo, ibigori, ibitoki, ndetse n'ibindi. Ibishyimbo biraryoha cyane, bigira uruyange ndetse n'imiteja.

Abapakizi baravunika cyane. Bapakira ibintu bitandukanye kandi byinshi. Bapakiraga ibitoki, amakara, amabuye, inkwi ndetse n'ibindi. Babaha amafaranga yo gukemuza ibibazo by'iwabo.

Intono ziraryoha ziba ari ibishyimbo bitari ibyuma. Zigira amafu kandi bazigerekaho ibintu bitandukanye cyane cyane nk'imyumbati , ibigori ndetse n'ibindi byinshi.

Habaho amatungo magufiya yo mu rugo zitwa inkoko zitera amagi, inkokokazi. Amasake arabika cyangwa se agashonda. Ayo magi avamo imishwi myiza cyane.

Imbuto ziraryoha cyane, ziba ari intungamubiri, iyo waziriye ugira ubuzima bwiza cyane, habaho imbuto zitandukanye, ibinyomoro, amaronji, amatunda ndetse n'izindi.

Abahinzi bahinga ibintu bitandukanye cyane cyane ibigori. Iyo bikiri bito babyita umumero. Barabibagara kugira ngo bikure neza. Bivamo umusaruro utubutse ndetse n'ubwatsi bw'amatungo.

Amapera barayahinga hari n'ayimeza mu bishanga, araryoha cyane agira vitamini ,yitwa gwava mundimi z'amahanga ,yera ku giti kirekire gifite n'amababi.

Abahinga bakoresha amasuka aba akwikiye mu biti byitwa imihini. Ahinga neza kuko atuma babona umusaruro utubutse. Abayakoresha babita abahinzi.

Ibitoki biraryoha cyane, byera ku nsina, bigura amafaranga menshi cyane, hari n'ibyo baryamo imineke, bigaragara neza ku ifoto. Hari ibyo bateka mu bukwe cyangwa se mu rugo, hari n'ibyo bagurisha.

Imyembe ni kimwe mu mbuto zifasha abantu kubaho neza, zera ku giti gifite n'amatami, zigira urubuto rumwe mo imbere, ziraryoha, zishya zitukuye, zigira vitaminini kandi zerera igihe kinini.

Imyumbati ni igihingwa kiryoha cyane. Abantu barakirya kigiraga ubugari ndetse n'isumbe iyobiri ugiraga imbaraga.

Ababagazi babara imyaka, bakuramo ibyatsi biba, byari bivanze n'ibihingwa bahinga, kugirango ibihingwa byabo, byere neza kandi vuba bitunganye.

Abahinzi bahinga amatunda ya mangarine. Agira vitamini nyinshi cyane， barayasoroma，bakayagurisha mu masoko atandukanye， avamo amafaranga menshi.

Ibihaza ni ibiryo byiza kandi biryoha, iyo babitetse biba bisa n'umuhondo mwimbere, bakigereka ku bishyimbo cyane cyane abantu ba kera, kiraryoha kandi gitera n'imbaraga.

Ibigori barabihinga, babishyiraho ifumbire birwa nkongwa bakazihanduramo. Ababihinga bagira amafaranga menshi cyane, kubera ko bitanga umusaruro utubutse.

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane. Hari izo bita gitamisi n'izo barya. Bazikoramo ubugari, barazigurisha, zigira amafaranga menshi cyane. Abazirya bagira imbaraga zihagije.

Gaperi ziraryoha cyane. Hari abazihinga ariko no mu gishanga zirimeza. Zigira urubuto ruba rurimo utubuto tumeze nk'intoryi. Iyo itukuye iraryoha cyane. zigira vitaminini mu mubiri w'umuntu.

Ibitunguru ni imboga za kinyarwanda. Baziteka mu biryo， bazishyira mu mavuta bakazikarangisha， zikunda kuryana mu maso，zigira amafaranga. Igitunguru ni kiza cyane.

Abahinzi bahinga imyaka itandukanye. Hari abahinga ibigori, imyumbati, ibirayi n'ibindi byinshi cyane. Abahinga imyumbati, hari iyo barya, hari n'iyo bakoramo ubugari. Bayita ibivunde. Iyo batinze kuyanika irahinduka. Hari n'abacuruza ibigori.

Abahinga icyayi bagira amafaranga. Bagisoromera mu bitebo. Biba biri mu mugongo. Bagira kandi ubuzima bwiza kuko bakigemura mu bice bitandukanye by'igihugu.

Amateke araryoha cyane hari:ay'amazayirwa ,amakumbakumbu, ndetse n'amatinda ku ziko, yose barayarya, bayateka ku bishyimbo cyangwa se bakayarya yonyine, agira intungamubiri nyinshi cyane.

Mu bishanga habamo ibyatsi n'amazi. Amazi bakunda kuyayobora ahantu baba barateye imiceri, kugira ngo ituma. Abawuhinga bagira amafaranga menshi kuko urahenda. Ugira ubwatsi butoshye cyane iyo ukiri mutoto.

Abahinzi bahinga ibintu bitandukanye. Cyane cyane imiceri, amasaka, cyangwa se ingano. Umuceri n'ingano byerera hasi cyane, bitwara imbaraga n'ifumbire nyinshi cyane, ariko bigira amafaranga menshi.

Mu muganda bakora ibikorwa bitandukanye basibura ibinogo ,bagatera ibiti, bagashyira ifumbire mu butaka cyangwa se bagakora inzira, uba witabiriwe n'abantu benshi batandukanye uba buri kwezi ,baba bafite n'umuyobozi ubaha ikiganiro nyuma y'umuganda.

Imyumbati barayihinga cyane, yerera igihe kirekire ivaho umusaruro utubutse, barayigurisha bakabona amafaranga barayirya bakagira ubuzima bwiza cyane.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane. Byera umusaruro utubutse. Hari n'ibyo bahingira amatungo yo mu rugo. Bivamo akawunga, ifu y'igikoma, ndetse n'imitsima. Hari n'ababikoramo ibiryo by'amatungo. Bitanga amafaranga menshi cyane.

Amasuka adufasha mu guhinga ibintu bitandukanye. Cyane cyane imyaka, ibijumba, ibishyimbo, ibigori ndetse n'ibindi. Bayifashisha bari kubagara, kuhira ndetse no gutera imyaka. Amasuka ni meza cyane.

Amapera ni imbuto ziryoha cyane, akunda kwimeza mu kinani, hari n'abayatera mu rugo iwabo ,agira vitamini zubaka umubiri, arahenda cyane.

Ibigori ni byiza cyane bifasha ababihinga kugera kure, bigira amafaranga kandi bikavamo ibitunga umuryango. Havamo kawunga ,impungure, ifu y'igikoma, ndetse n'ibiryo by'amatungo.

Icyayi kiraryoha cyane, abagihinga bagira amafaranga kuko gihenda baragisoroma bakagica umutwe gusa. abakinywa bagira ubuzima bwiza cyane.

Mu masoko bacuruza ibintu bitandukanye nk'imboga harimo imiteja, puwavuro, ibitunguru na dodo intoryi n'indimu, ababicuruza baba bafite amafaranga kuko birakundwa cyane.

Pipinyeri zibamo ibintu byiza kandi bitandukanye, cyane cyane nk'imboga z'ubwoko bwose habamo karoti, betarave, amashu, dodo ndetse n'izindi izo ni izo binaza.

Abahinga icyayi bagisoromera mu bitebo, baca udutwe two hejuru, bikorera ku mutwe, baba ari benshi cyane, icyayi kandi kigira amafaranga yo kubafasha mu mirimo yo mu rugo.

Umwembe ni kimwe mu mbuto ziryoha cyane, zigira urubuto mo imbere, zera ku giti gifite amatabi n'amababi, iyo uri kuwurya wumva uryoshye cyane, uratukura kandi ugatera imbaraga.

Ihene ni amatungo magufiya yo mu rugo. Atanga ifumbire, bayambika ibiziriko bakayajyana mu rwuri. Habaho ihene z'isekurume, zirimya. Hakabaho n'iz'amashashi zirahaka zikabyara.

Ihene ni amatungu yo mu rugo bayizirikisha ikiziriko kugira ngo atajya kona, hari ayitwa amashashi arabyara, n'ayitwa amasekurume arabangurira, hari n'izo batera intanga. Barayagurisha avamo amafaranga atubutse.

Imiteja iraryoha cyane. Bayiteka mu biryo. Bayikoramo n'isosi. Irahenda cyane, gusa yerera igihe gito cyane.

ibijumba biraryoha cyane bitera imbaraga iyo wa kiriye wirirwa wumva umeze neza. Abahinga bagira amafaranga kandi bakabaho neza cyane hamwe nimiryango yabo.

Amasuka ni ibikoresho bakoresha bari guhinga, kuhira, kubagara ndetse n'ibindi bitandukanye. Ayo masuka aba akwikiye mu biti byitwa imihini. Barayagurisha agira amafaranga.

Inyanya ni igihingwa cyiza cyane. Baziteka mu biryo. Zituma ibiryo bitukura cyane bikaryoha. Zigira amafaranga menshi cyane. Abazihinga babaho neza. Bazitera umuti urinda udukoko kuzirya no kuzangiriza cyane.

Ibirayi barabihinga cyane bigira amafaranga babicuruza mu masoko atandukanye, iyo babitetse babiryamo ifiriti cyangwa se bitogose biraryoha, bigira kandi na vitamini byubaka umubiri.

Voka ni kimwe mu mbuto turya ku biryo. Igira urubuto mo imbere. Iraryoha cyane. Bayikoramo amavuta ndetse n'isabune. Iyo wariye voka, wumva ufite ubuzima bwiza cyane.

Mu isoko habamo ibintu dukenera byinshi cyane bacuruzamo karoti, inyanya, amashaza, tungurusumu ibibiringanya, puwavuro, amashu n'ibindi bitandukanye bigira amafaranga menshi cyane kubera ko babigura.

Indimu urubuto rwiza cyane. Ziravura ni umuti zagaragara neza cyane. Bazivurisha mu muhogo cyangwa se umutwe.

Amatunda agira vitaminini nyinshi cyane. Cyane cyane aya mangarine. Arahenda kandi ntakunze kuboneka mu duce twose tw'igihugu. Abayahinga bagira ubuzima bwiza cyane.

Indimu ni urubuto rwiza cyane, rugira vitamini, ruvura ibintu bitandukanye, cyane cyane indwara zo mu muhogo , buvura kunuka mu kwaha, kandi rugira n'amafaranga ku bazihinga.

Amapapayi araryoha cyane, ni kimwe mu mbuto imibiri yacu ikenera. Aba afite imbuto mo imbere. Bayarya ahase. Ayungurura amaraso, akoza no mu nda. Uwayariye agira ubuzima bwiza.

Insina ni igihingwa cyiza cyane, baragihinga cyera igitoki kiryoshye, habaho amoko atandukanye y'insina mbogoya, mutsima, kayinja, indaya, poyo ndetse n'incakara, incakara barayitekaga iraryoha cyane.

Voka n'imbuto nziza zifasha abantu kugira ubuzima bwiza bazikoramo amavuta ndetse n'amasabune, abantu bazirya hejuru y'ibiryo iyo wa ziriye ugira ubuzima bwiza zigira urubuto mo imbere.

Abahinga icyayi bagira amafaranga menshi cyane kiraryoha. Iyo bari kugisoroma bafata udutwe twacyo baba bafite ibitebo baba bari gushiramo, bagira umusaruro mwinshi cyane.

Abahinga icyayi bagira amafaranga menshi cyane, bagisoromera mu bitebo biba biri mu mugongo, bagaragara neza cyane, iyo babirimo bagira amafaranga menshi kuko kirahenda, bakigemura mu bice bitandukanye by'igihugu.

Abantu bahinga ibishyimbo bagira imimero myiza cyane. Ibishyimbo iyo bimaze gukura barabishingirira, bakoresha ibibingo byitwa imishingirizo. Iyo wabishingiriye biba byiza cyane, kandi bikera neza bigira imishogi myinshi.

Ibiti bitumaga abantu babaho neza cyane. Bikurura imvura bigatanga umuyaga bigatuma abantu babona aho bicara mu gacucu bakaganira bagasabana, bagahuza urugwiro.

Amaronji ni imbuto ziryoha cyane, zitera vitaminini, zigira amazi menshi aba aryoshe cyangwa se umutobe, barazigurisha, zivagamo amafaranga, ziravura kandi zitera n'imbaraga.

Amashyamba aba ari meza cyane ,akurura ba mukerarugendo baje kureba inyamaswa zibamo ibiti bibamo bivamo imbaho zo kubakisha ,bikavamo amakara yo gucanisha mu mbabura, aba afite kandi bagira amafaranga menshi cyane.

Ibihwagari byera ku biti. Bivamo amavuta yo guteka bayarya mu biryo. Bigira kandi amabara meza cyane y'umuhondo, bitanga amafaranga ku babihinga.

Inkoko ni ibikoresho gakondo bya kera, babikoresha bari kugosora cyane cyane ibishyimbo, amasaka, imiceri ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ababikoresha babita abagosozi bagaragara neza cyane.

Ibigori barabihinga, bitanga umusaruro utubutse ,bivaho ubwatsi bw'amatungo byera kandi ibigori byiza kandi byinshi bakoramo akawunga ,n'ibiryo by'amatungo.

Ibihwagari ni ibihingwa byiza cyane. Bigira amabara y'umuhondo. Bivamo amavuta yo gutekesha. Bigira kandi n'amafaranga menshi cyane. Ababihinga bagira ubuzima bwiza cyane. Bagira n'amafaranga menshi, kuko birahenda.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane kigira amafaranga bugaragara neza cyane hari ababurya ari bubisi, buhiye cyangwa se butetse mu biryo. Bugira vitamini zikungahaye ku mubiri, bugira n'amafaranga menshi cyane kuko burahenda.

Amashaza cyangwa se amajeri agira uruyange rwiza cyane, yerera igihe gito, iyo akiri mabisi ukayarya babyita kurya urunyogwe, agira amafaranga ndetse na vitaminini nyinshi cyane.

Ibihwagari barabihinga cyane. Bigira amafaranga. Biba bifite indabo z'umuhondo. Iyo bimaze kuma zivaho. Babikoramo amavuta yo guteka mu biryo. Bigira amafaranga menshi cyane.

Abacuruza baba bafite amafaranga yo kuranguza bakaba bafite n'ayo gushora. Bagurisha ibyo baranguye bakabona ayandi mafaranga menshi cyane, bacuruzamo ibintu bitandukanye.

Soya n'igihingwa cyiza cyane. Barazibetesha bakazirya mu biryo， cyangwa se bakazinywa mu gikoma. Iyo zitarera barasoroma，bakarya ibintu byitwa ibimemeti，zigira amafaranga， kuko zirahenda cyane.

Ibigori ni ibinyampeke byerera igihe gitoya cyane. Bivaho imisigati yo kurya, bigira kandi ubwatsi bwo ku kugaburira amatungo. Biragurishwa, bikorwamo akawunga n'ibindi bitandukanye cyane.

Abahinzi bahinga ibintu bitandukanye cyane cyane amasaka, umuceri , cyangwa se ingano, bagira amafaranga menshi cyane ava muri uwo musaruro wabo, bagira n'ubuzima bwiza kuberako barya ibyo bahinze.

Kapusine ni ni icyatsi batera cyane cyane mu rugo. Bakivurisha umutwe, bakaraga amababi yacyo bagashyira mu mazuru y'umuntu urwaye umutwe. Gikunda kubura kuko nticyimeza.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane . Koperative zigihinga ziba zifite amafaranga menshi cyane. Bivamo akawunga ,ifu y'igikoma ndetse n'umutsima . Abantu babihinga bagira ubuzima bwiza.

Ubunyobwa baraburuza mu isoko bugira amafaranga. Ababucuruza bakabucuruza mu indobo bakabonja. Hari ababuguraga bakabubeta bakabuteka mu biryo buraryoha bugira na vitaminini nyinshi cyane.

Amasaka yera ku biti birebire byitwa ibisakasaka. Agira umusururu uryoshye cyane, agira kandi amafaranga menshi cyane. Umuntu wayahinze aba ari umukire.

Ibishyimbo babiteka hejuru y'ibiryo ibyo ari byo byose cyangwa se bakabitsimba, amasoya bayabeteshamo igikoma ,amashaza bayateka mu biryo runaka, ibishyimbo bigufiya byerera igihe gitoya cyane.

Ikawa ziraryo cyane, zivamo icyayi, biswi, ndetse n'ibindi biryoshye. Abazihingaga bagiraga amafaranga menshi cyane, bazigemura hanze y'igihugu kubera ko mu Rwanda ntaho zigurirwa.

Mu isoko bacuruza ibintu bitandukanye ibirayi, ibishyimbo ,ibigori, amafu, ibikukuri, ubunyobwa n'ibindi byinshi cyane. ibishyimbo biraryoha bivamo amazi yitwa amarongorwa. Iyo babitetse babigerekagaho ibindi bitandukanye nk'imyumbati cyangwa se ibigori.

Ibigori ni ibihingwa byiza cyane bigira umusaruro utubutse. Babikoramo akawunga, ifu y'gikoma, ndetse n'umutsima. Bigira amafaranga kuko hari n'ababigaburira amatungo yo mu rugo.

Ubunyobwa n'igihingwa cyiza cyane, gifite akamaro kanini babuteka mubiryo, barabubukaranga, bakaburya ari bubisi ndetse n'ibindi, bugira intungamubiri nyinshi ndetse na vitaminini.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane kigira amafaranga menshi, bivamo akawunga, umutsima ndetse n'ifu y'igikoma. Ababihinga babaho neza cyane n'imiryango yabo.

Amasaka ni meza cyane, bayakoramo imisururu cyangwa se imitsima yo kurya, agira amafaranga menshi cyane abantu barayakunda kubera ko yerera igihe gitoya.

Ibihwagari biba ari byiza cyane, bigira indabo nziza z'umuhondo, inzuki ziza guhozwaho, bigira amavuta aryoshye cyane, bigira amafaranga menshi.

Amajeri ni igihingwa cyiza cyane. Abantu bamwe bayita amashaza, abandi bakayita amanyogwe. Araryoha cyane, agira uruyange rwiza cyane, yerera igihe gitoya.

Aborozi borora amatungo magufi yo mu rugo nk'inkoko, ihene, ingurube, inkwavu n'ibindi bitandukanye. Inkoko zitera amagi zigaturaga n'udushwi, ihene zibyara utwana dutoya.

Inyana cyangwa se umutavu ni agaka gatoya kaba konka ka nyina, kaba kamaze igihe gito kavutse. Kannya amabyi yitwa imisuswe.

Inkoko ni itungo rigufiya ryo mu rugo. Zikunda kugira umwanda，ziratera cyane cyane，nk'inkoko kazi，ayo magi ziteye avamo imishwi，barazigurisha，kandi zigira n’inyama ziryoshye cyane.

Amahene ni amatungu yo mu rugo. Agira amafaranga, arabyara, agira inyama ziryoshe, ndetse n'isosi abayorora, baba bafite amafaranga menshi cyane.

Inka ziba ari amatungo meza cyane yo mu rugo, zitanga ifumbire, zigatanga umukamo mwiza kuko zibyara utunyana, abazifite baba bafite amafaranga menshi cyane cyangwa se bafite inkwano kuko bazikwaga abakobwa.

Inkoko zitera amagi，ayo magi akavamo udushwi. Udushwi ni utwana dutoya batugaburira igiheri. Inkoko kandi zigira amafaranga menshi cyane，amagi yazo aba aryoshye，agira na vitamini.

Ingurube ni amatungo yangwa n'Abayisilamu, agira inyama ziryoshye zitwa Akabenzi, zirororoka kuko zibyara ibyana bitari munsi ya bitanu .Ingurube ziraryoha cyane ,abazorora baba bafite amafaranga atubutse.

Inka ni amatungo yo mu rugo. Bayatera amavitaminini iyo bari kuyakingira. Abazorora baba bafite amafaranga menshi cyane, kuko bagurisha nyama iyo bazibaze.

Mu rugo habamo amatungo yitwa ihene, hari iz'amashashi, ndetse n'iz'impfizi, bazitera inshinge iyo bari kuzikingira, zigira amafaranga, iyo bazibaze zivamo inyama ziryoshye.

Inkwavu ziba ari nziza cyane. Zigira amafaranga ndetse zikaba zifite n'isuku. Iyo worora inkwavu uba uri umukire. Zikunda kororoka kandi zikagira inyama ziryoshye.

Inka ni itungo ryiza cyane. Hari izitwa gaju, inyambo ndetse n'ibihogo. Bazitera imiti, abitwa abaveterineri, bari kuzikingira indwara zitandukanye. Zitanga umukamo utubutse kandi zigatanga n'amafaranga menshi cyane.

Inka ziba ari nziza cyane ,hari inka ziba ari imbyeyi zitanga umukamo uba utubutse, zigatanga inyama nziza ziryoshye, zigira amafaranga menshi cyane kuko zirahenda abazorora beza imyaka kuko baba bafite ifumbire nyinshi cyane.

Hari amatungo yo mu rugo yitwa intama, zigira inyama ziryoshe zivaho kandi n'uruhu iyo bazibaze, urwo ruhu barushyira ku mihoro cyangwa se bakarurya, bararugurisha ruvamo amafaranga menshi cyane.

Amasha ni amatungo yo mu ishyamba, aba azi kwiruka cyane, aba ari maremare kandi barayarya, agira inyama ziryoshye cyane.

Ingona ni kimwe mu biguruka cyangwa se inyoni zitwara amavuta cyane cyane samuna cyangwa se amamesa. Zitwara kandi n'amasabune ku bantu baba bari kumesa, ziba n'inyama ku mabagiro zikazigurukana.

Amahene ni amatungo aba ateye nk'Isha ,bayorora mu rugo ,agira amafaranga, arisha ibyatsi byo mu kinani ,bayambika ibiziriko .Isha ni agasimba kirukanka cyane kagira inyama ziryoshe, gusa kaba gateye nk'ihene.

Inyoni ziguruka mu kirere zifite amoko atandukanye hari iza kagoma, hari ibisiga, hari inyoni ntoya ndetse n'inini, hari iziba amasabune zikarya n'amashashi, hari izona amasaka cyangwa se ibigori.

Isha ni inyamaswa izi kwiruka cyane, iba iteye nk'ihene, igira amanyanga, yumva neza kandi vuba, igira inyama ziryoshye kuko barayirya.

Habaho inyoni zitandukanye. Nk'ibisiga, ibigona, kagoma, n'izindi nyinshi cyane. Ibisiga bitwara inkoko z'udushwi. Ibigona byiba amavuta yo guteka cyane cyane samuna.

Umusererebanya uba ku nzu, ukunda kugendera ku gisika, uba ufite amaguru ane, ugira umutwe mutoya cyane, ukunda gusesera mu mwenge, cyane cyane iz'inzu.

Inyoni ziraguruka. Habaho ubwoko butandukanye bw'inyoni. Hari inyoni zitwa ibisiga, ibigona, ndetse n'izindi zitandukanye. Hari izitwara inkoko zikazirya. Hari n'izindi zona amasaka n'imiceri.

Umutubu uba mu mazi menshi cyane, urasimbuka ugira amabara atandukanye icyatsi n'umukara n'umweru, urororoka utera amagi mu mazi warangiza ukabyara.

Inkoko ni amatungugu yo murugo zigira amafaranga, ziteraga amagi meza kandi cyane, zituraga udushwi tuvamo izindi nkoko.

Imbata ni amatungo yo mu rugo ,zitera amagi bakunda no kuzita ibishuhe, zigira inyama ziryoshye cyane, zigurishwa amafaranga menshi cyane.

Inyoni zitaha ahantu hitwa mu cyari. Zirabyara, ziba ibintu by'abandi cyane cyane amashashi. Zubakisha ibyatsi ziba zarakuye mu duce dutandukanye.

Inkende ni igisimba kiba mu ishyamba cyane cyane muri parike, gakurura ba mukerarugendo baza kuzireba, bazizanira n'imineke. Ni agasimba kazi ubwenge bwinshi cyane.